Abasore n'inkumi ubona ari abantu bambaye amajire meza, ariyo yanafasha abantu agaha ubutabazi bw'ibanze, ubona ko ari n'aba bandi bambaye amajire abwira abantu gutanga amaraso, ni byiza ko dutanga amaraso kugirango ngo dufashe abarwayi barembye badafite amaraso ahagije, twitanga kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abaturanyi bacu ndetse n'ubw'abaturarwanda muri rusange, dutange amaraso turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Hano hari imodoka ubona ko ariyo ishinzwe ubutabazi bw'ibanze hateraniye abantu benshi ubona ko ari ku bitaro. Ahantu hagiye gutangirwa ibikoresho by'ibanze, birimo amajerekani, indobo, n'ibindi bishobora gufasha abaturage kwita ku isuku y'imiryango yabo, ndetse no kwita ku isuku yabo, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umwana bajyanye kwa muganga ubona ko abaganga bawe kumuvura wambaye imyenda yagisikare ubona koari ahantu abasirikare bavurira. Ni byiza ko igihe umwana arwaye tumujyana kwa muganga kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze avurwa hakirikare kugira ngo umwana arushe kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ku mushyira umujyana agifatwa kugira ngo bamukurikirane hakiri kare, bitararengera. Ababyeyi namwe bagore ndetse n'abagabo mururushaho kujyana abana banyu kwa muganga babiteho namwe igihe mu mwarwaye umubyeyi.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona ko bari kugirwa inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abana babo, biririnde ighingira ry'abana. Ni byiza ko twita ku ngamba zifatirwa mu nama nk'aha ndetse n'inama batugira iyo twagiye mu nama nk'izi, kugira ngo turushe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi wicaye ku gitanda, ubona ko hari umuganga uri kumusuzuma, ubona ko ari ahantu heza hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, ndetse no kubungabunga ubuzima. Ni byiza ko igihe cyose twarwaye, tugana kwa muganga, kugira ngo badufashe, ubona ko ari ahantu heza bafashiriza abarwayi, bakarushaho kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze. Ni byiza kenshi turwaye ko tugana kwa muganga, bakadufasha kuko ni cyo babereyeho nk'abaganga.

iIkigonderabuzima cya Nyagata ubona ko hateraniye abantu benshi bahaganye ngo babafashe kubavura, Ubona KO ari igikorwa remezo cyubatswe kugira ngo gifashe abarwayi kubaha ubuzima bwiza binyuze mu miti babaha bakwiye kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe cyose warwaye ugana kwa muganga bakagufasha, bakaguhara imiti kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Turusheho kubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi kuko bidufasha kuduha serivisi zigirira akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu hateraniye abantu benshi harimo n'ushinzwe umutekano ubona ko ari umusirikare hari n'abandi bantu bambaye agapfukamunwa. Murabona ko ari abantu benshi bari gutanga inama z'ibijyanye n'ubuzima kugira ngo abantu barusheho kwita ku buzima no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu nk'uko tubigirwaho inama na leta kugira ngo turusheho kwiteza imbere binyuze mu buzima bwiza twagize.

Abaganga batandukanye b bateraniye ahantu hamwe, ubona ko bari muri laboratwari gupima imiti itandukanye kugira ngo barebe iyagirarire akamaro ku baturage ndetse ikaba yanabavura kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe turwaye tujya kwa muganga bakadufasha ndetse byakara tukagana laboratore tukisuzumisha indwara zitandukanye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibikorwa remezo no ko ari inzu nini nziza ari aho bakira abarwayi bagiye kubyara ubona ko ari muri materineti. Ni byiza ko tugana kwa muganga ababyeyi igihe tugiye kubyara kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bw'abana bacu n'ejo hazaza heza igihe bavukiye kwa muganga bakitabwaho, tukirinda kubanduza indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umuhondo ubona ufite ibisuko, ubona ari ahantu heza bacururiza imiti ubona ko ari muri farumasi, igihe cyose umuntu yarwaye ashobora kugana farumasi bakamufasha bamuha imiti kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze mu kuba yanyweye imiti ijyanye n'indwara arwaye, ni byiza ko tubibungabunga ibikorwaremezo nk'ibi kugirango ngo turusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza no kubona serivisi nziza.

Abaganga babiri ubona ko ari ahantu bari muri farumasi hacururizwa imiti itandukanye ishobora gufasha umuntu gutuma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, igihe yahaganye bakamuha imiti itandukanye arwaye indwara runaka, ni byiza ko tubungabanga ibikorwa remezo nk'ibi kugira ngo bidufashe kuturushaho kuduha serivisi nziza zirimo nk'ubuvuzi igihe urwaye ugenda bakaguha imiti ijyanye n'ukuri kubabara kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, ubona ko hakoramo umugabo n'umugore bambaye imyenda yabugenewe harimo amataburiya y'umweru.

Inyubako nziza ubona ko ari inyubako nini ari inyubako ya Sylvere aho acururiza imiti ubona ko ari kuri farumasi ya Sylvere, ni byiza ko tugana amafarumasi nk'aya kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza binyuze mu miti baduha batwitaho ku buzima bwacu igihe warwaye wahagana ukagura imiti ukarushaho kwita ku buzima bwawe kurushaho gukomeza kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyawe, ni byiza ko tuhagana tuhagana baduhe serivisi nziza kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari igikorwa remezo cy'abaturage, ubona ko kiri hafi y'umuhanda mwiza w'amabuye, hari ikiraro kujyayo urabona ko ari kuri farumasi itanga imiti ku bantu barwaye kugira ngo barusheho gukira ndetse no gutuma bakomeza kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana amavuriro nk'aya, cyane cyane faromasi dukuramo imiti yerekeranye n'indwara turwaye kuko turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hateraniye ababyeyi benshi hari n'abayobozi babona ko bari gupima abana babapima uko bareshya kugira ngo barebe ko batahuye n'igwingira, ababyeyi ni byiza ko twita ku bana bacu tubaha indyo zirimo intungamubiri harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo abana bacu barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze banakure neza, bave mu ibara ry'umutuku bage mu ry'icyatsi turwanya igwingira.

Abakobwa babiri barimo bagaragaza uburyo twakoresha agakingirizo neza kugira ngo turusheho kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu imibonano mpuzabitsina harimo: mburugu, imitezi ndetse na sida. Nibyo dukoresha agakingirizo neza kugira ngo turusheho kwirinda indwara nk'izo zitandukanye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu, ubona ko ari ahantu habereye kampeyini, habereye igikorwa cyo gufasha abantu ndetse mu kubegereza ibiribwa ngo barusheho kwiteza imbere, ubona ko ari ahantu bari kubwira abantu ngo ugakoreshe neza. Ni byiza ko dukoresha udukingirizo turinda indwara zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo nka sida.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona ko ari igikorwa kirimo abantu, benshi bari guhabwa udukingirizo banashishikarizwa kudukoresha neza, muri rusange ni byiza ko dukoresha agakingirizo twirinda indwara zitandukanye zirimo nka Mburugu, imitezi n'ibindi izo zose zandurira mu mibonanompuzabitsina idakingiye, twikingire dukoreshe agakingirizo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuti uri mu icupa mwiza wa Kinyarwanda, ubona ko ari umuti ukozwe mu bimera byitwa ikimiramvumba. Ni byiza kubungabunga ibimera nk'ibivamo imiti nk'iyi idufasha kwita ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze mu gukoresha ibimera nk'ibi. Ubona ko umuravumba afasha abantu kuvura inzoka ndetse no kubavura umutwe. Tubungabunge ibimera turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hari inyubako nziza mbona hari abaganga batandukanye bambaye imyenda yabugene ubona ko hari n'abarwayi bari kubagana kugira ngo ururusheho gufashwa. Kuvurwa ndetse no guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima barusheho kubungabunga ubuzima bwabo barushaho kwiteza imbere bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe cyose warwaye ugana kwa muganga akagufasha akaguha imiti itanga kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.